Icyapa cyangwa ikirangantego cy'ubwishingizi bwa SONARWA, bwifashishwa mu kuba bwatanga ubwishingizi haba kuri bizinesi ndetse no ku bihingwa umuntu yaba ahinga, kiri mu buso bw'umweru ndetse n'umutuku, ndetse cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, n'akamenyetso ka SONARWA kari mu ibara ry'umutuku n'umuhondo.

Umugore uryamye ku gitanda kwa muganga, aho yambaye imyenda y'imyeru n'agatambaro k'umweru ku mutwe, imbere ye hakaba hari akana kambaye imyeru, n'umumama ufite imisatsi miremire wambaye umupira wa gisirikare, hejuru hakaba handitseho ijambo ngo ivuze na radiant, hirya hakaba hari igikoresho bakoresha bari kuvura abarwayi.

Gifite ubuso bwa kare. Aho cyanditse mu bururu amagambo yanditseho akaba ari umukara. Iki cyapa kika gifashe ku byuma by'icyatsi kibisi bitambitse bizenguruka umuhanda. Ku ruhande hakaba hari amazu y'umutuku y'umweru ndetse n'iyiyubakishije amatafari. Ku ruhande hakaba hari ibindi byapa byinshi by'amabara atandukanye harimo: umweru, umukara ndetse n'umutuku.

Ni icyapa kinini kiri mu muhanda, kikaba kiriho amatara icyapa kinini kikaba ari umweru, kiba kibi umugabo w'umuzungu, wambaye ikoti ry'umweru n'ishati y'umweru. Icyapa kikaba kiriho amagambo yadikije ubururu, icyapa ari umweru, munsi hakaba hariho utuntu tw'uduti tugifasha kugaragara neza, inyuma yaho hari ibiti byiza.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi kiri rifite ubuso bw'ibara ry'ubururu ndetse kiriho n'igishushanyo cy'umugabo w'umusaza ufite ubwanwa bw'umweru wambaye n'ingofero, wambaye n'ikoti ry'umukara na karuvati y'umukara cyanditseho amagambo akoresheje ibara ry'ubururu bwijimye yerekana ibisabwa kugira ngo umuntu abe yabona serivisi batanga.

Gihuza aba bacuruzi n'abaguzi aho icyo kigo kishingira ibicuruzwa bitandukanye kikaba gifasha abacuruzi mu kwamamaza no kugurisha, no guha asiranse ibyo bicuruzwa kugira ngo bibone uko bitambuka ku isoko masoko atandukanye.

Icyapa kiri mu buso bw'umweru ndetse n'ibara ry'umuhondo, ryanditseho amagambo akoresheje ibara ry'ubururu kiriho umugabo w'umwirabura ndetse n'umwana w'umwirabura bari gusuhuzanya ndetse umwana yambaye umupira w'umweru n'umugabo yambaye umupi usa n'umuhondo, handitseho amagambo avuga ngo: Keep your future protected cyangwa mu rurimi rwacu ngo teganya ahazaza hawe heza.

Iki ni icyapa kiri ku muhanda rwagati gifite amatara ageze muri ane. Icyapa kikaba gishushanyijeho umugabo n'umugore n'umwana, abagabo n'umugore baragaraga ko bashaje umwana aka akiri muto; bakaba abri kureba kuri mudasobwa. Icyapa kikaba kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo y'umukara n'icyatsi kibisi.

Ni ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi, aho icyo kigo cyitwa Burayanti, aho harimo umugabo uri guseka watanze censi, akaba yambaye ingofero y'umukara agakoti k'ubururu n'umupira w'umweru mu imbere, akaba yicaye mu modoka y'umukara ifite vola y'umukara, akaba yambaye, akaba ari guseka yambaye n'ipantaro y'umweru.

Ubwishingizi bwa buritamu bufite numero iburanga, zeru karindwi iminani ibiri, ijana na mirongo ikenda n'umunani, amazero atatu, butanga ubwishingizi bwihariye kandi budahendutse, ku matsinda ndetse n'ibigo bito, kandi ubwishingizi bwa buritamu butanga ubwishingizi bwo kwivuza.

Ikorabuhanga rya banki akaba ariho igiciro cy'amafaranga umuntu afite n'igihe yashyiriye akaba afite amafaranga ibihumbi madolari magana mirongo itatu n'itandatu n'ibice mirongo irindwi n'icyenda akaba afiteho hakaba habaye saa cyenda na cumi n'itandatu ikaba iri mu ibara ry'umutuku n'iry'umweru.

Ikarita yifashishwa na banki ibika amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga ifite nimero i iyiranga ariyo rimwe kabiri kabiri kabiri gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda zeru rimwe kabiri gatatu karindwi gatanu gatandatu ikaba ifite itariki izarangiriraho cumi n'ebyiri zo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatandatu.

Botike icuruza imyenda y'abagabo amakoti. Hakaba hari ikoti risa ubururu rifite uturongo tw'umweru, hafite ibifungo bine ku mpande zombi. Aho ku mufuka wo hejuru hariho akandi kantu k'agasheni, hakaba harimo ishati y'ubururu , imanitse ku cyuma cy'umukara, inyuma hakaba hari andi mashati menshi.

Iki ngiki ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Ikingiki nuzakibona uri mu muhanda uzamenyeko uwo muhanda urimo uragendamo iburyo n'ibumoso hashamikiyeho utundi duhanda dutoya.

Imipira itatu imanitse ku gikuta, aho imwe usa n'umutuku uciyemo uturongongo tw'umukara, uwo byegeranye ugasa n'icyatsi cyijimye, ndetse n'undi ukaba usa kaki ndetse n'umukara bimanitse ku gikuta gisa umuhondo.

Isoko cyangwa aho bacururiza higanjemo ibicuruzwa bimanitse ku duti byiganjemo imipira, amasengeri, amakote ndetse n'amashati, hicayemo abagore babiri, umwe yicaye ku mashini ameze nkuri kudoda, undi ari umuntu urimo aripima imyenda.

Umugabo ucuruje amasaha, inkweto z'abakobwa ndetse n'iz'abahungu, amatelefone n'amamashini, ndetse n'amashakoshi y'abakobwa, ndetse n'abagore.

Iduka ririmo umugore uri kwakira abakiriya, wambaye ikote ry'umweru ndetse n'ishati y'umweru. Arimo arareba umukiriya arimo guseka, aho umukiriya we afite imyenda mu ntoki harimo imipira y'umukara ndetse no mukundu kuboko harimo amashati y'umweru. Inyuma ye hari n'undi muzungu urimo arareba mu myenda acuruje.

Inzu icururizwamo ibitenge by'abagore akaba ari inzu irimo ibitenge byinshi ibirambitse hasi n'ibimanitse ku biti, aho ibyo bitenge birimo amabara menshi atandukanye harimo umweru, umutuku, umuhondo, ibisa n'indabo oranje ndetse n'ikijuju. Akaba ari ibitenge byitwa wagisi.

Urubuga rwitwa eni ero eyi cyangwa nashono landi otoriti, rwifashishwa muri repubulika y'u Rwanda, aho itanga ku buryo bwihuse amakuru y'ingenzi ku butaka.

Ahantu hari kubera inama y'abagabo bane n'umugore umwe, umugabo w'umugabo wambaye umupira w'umutuku, undi w'umweru n'undi umwe n'undi mukara umugore yambaye imyenda y'abayisilamu y'ubururu, akaba yicaye ku meza y'umweru, ahantu bari inyuma hari imodoka bigaragara ko ari ikigo gicuruza imodoka kikanazikodesha.

Kampani icuruza imodoka ikanazikodesha bita Yundayi, aho iyo kampani bigaragara ko hari imeza iriho mudasobwa y'umweru. Ku ruhande hakaba haparitse imodoka enye, akaba ari y'umukara, zose zikaba ari umukara, imwe ikaba ireba imbere indi inyuma indi imbere. Akaba ari imodoka ziri mu nzu, aho iyo nzu ifite amakaro y'umweru n'amarangi y'umweru ahantu hose n'icyapa kinini cya Yundayi.

Imodoka icurujwe n'ikigo cya Kigali cars market iri mu ibara ry'umukara ihagaze mu muhanda ndetse ikaba iri no mu bwoko bw'amamodoka ya Toyota yifashishwa n'abantu mu ngendo zisanzwe.

Umugabo uri imbere yimodoka arimo arayikoraho bigaragara nk'aho ari umucuruzi wazo imodoka iri mu bwoko bwa toyota cyangwa toyota avenisisi.

Inzu nini iparitsemo imodoka nyinshi, yubakishije amabuye ndetse ifite n'inkingi kuri buri nguni zifite ibara risa kaki ndetse hejuru y'inzu hariho icyapa cyanditseho yundayi savisi byerekana ko ari aho bacuruza imodoka zo mu bwoko bwa yundayi.

Abagabo babiri harimo umugabo umwe w'inzobe wambaye ishati irimo utubara tw'icyatsi n'undi w'inzobe wambaye ishati y'umweru, bafite ikirangantego cya eyi bi ji Akagera motozi, bahagaze imbere y'inzu y'Akagera motozi.

Kampani yashinzwe kugira ngo yorohereze abantu kugura amamodoka no kugurisha amamodoka yabo, akaba ari imodoka y'umukara, uri kuyigurisha akaba yambaye ikoti, uri kuyigura akaba yambaye umupira w'umukara ikaba iri mu gipangu aho igipangu gifite amabuye ahiye akoteye akaba ari igipangu kizengurutsweho n'ibyuma gisize irangi rya gireyi.

Ahagaze imbere y'imodoka nini y'umweru n'umukara yanditseho fuso, ikaba ifite ikintu kimeze nk'urufunguzo, hakaba handitseho Akagera motozi, inyuma ye hakaba hari inzu y'ubucuruzi, iyo modoka akaba ari ni imodoka ifite amapine y'umukara, imbere ahari pulake zayo bakaba bahahishe.

Ni ubucuruzi bw'amamodokaka ahari wambaye umupira w'umweru barikwakira umugabo uteruye akana, aho babakira hakaba hasa umutuku hakababa handitseho icyapa kinini cyanditseho Toyota ku ruhande hakaba hari akayetajeri gafite foro enye.

Ibiti, ibyatsi, cyapa, indabyo, inzu, amabati.

Abantu batatu harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, umugabo umwe wambaye ishati y'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara, n'umugore wambaye ikanzu y'umweru iri mu tubara tw'umukara n'umweru ndetse n'undi wambaye ishati y'icyatsi cyerurutse ndetse n'ipantaro y'ubururu, bahagaze imbere y'inzu ifite ibirahuri by'umukara, n'imbere yabo hari imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Abantu babiri bafite amafaranga, aho umwe afite amafaranga ari mu bwoko bw'amanyarwanda, undi akaba afite amafaranga ari mu bwoko bw'amadorari, ndetse bakaba bafite n'imashini yifashishwa mu kuyabara.

Za magana atanu amafaranga y'u Rwanda. Aho izo noti ebyiri ziriho, imwe iriho abana batatu bicaye bari kuri za mudasobwa, indi ikaba iriho ikiraro kinini kiba mu ishyamba rya Nyungwe. Aho iyo noti ya mbere yanditseho Banki Nkuru y'u Rwanda, indi ikaba yanditseho mu rurimi rw'icyongereza ivuga ngo nasiyonale banke du Rwande.

Ayabashinwa bita amayowani, akaba ari kumwe n'amadorari kabehu n'ibikoroto by'ibiceri iruhande rwayo hari imashini ifashe mu kubara amafaranga, inyuma yayo hari umugore wambaye iyi mipira akaba ari amafaranga menshi atandukanye marutandukanye hari amafaranga'umutuku.

Ibiceri bibiri aho kimwe gisa oli diamond ikindi kikaba gisa silve kikaba kikaba kiri kuri tabure y'umwerukaba, bikaba ari ibiceri bibiri bitandukanye iki kikaba cyanditseho ibihumbi bibirihumbi muri bibiri nagatatu inkuga cyanyanditseho bibiri nicyendakaba ibiceri bifite bishushanyijeho igishushanyo kawa.

Banki ahari abakozi babiri bashinzwe kwakira amafaranga no kwandika raporo ngofi umukozi maka yambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati y'umukara, undi akaba ari umumama ufite imisatsi miremire, akaba ari kwakira abakiriya babiri, aho umwe ari umugabo wambaye ishati y'umweru karafati y' umutuku, undi nawe ari umumama uri gutanga amafaranga kuri gishe iyo banki, akaba ari banke ifite amabara y'ubururu n'umweru.

Abakozi babiri bakorera foregisi egisicanje, yitwa si egisi ni abamama ni babiri b'ibitsina gore bafite mudasobwa ebyiri bafite na pirinta foregisi yabo yitwa efu egisicenje.

Hari umugore urikubara amafaranga y'amashinwa, uwo mugore akaba wambaye ngoishati y'icyatsi kibisi, akaba yicaye ku meza ya kake, hakaba hari imashini y'umukara imbere ye, iri gusohora urupapuro, hakaba hicaye umugabo imbere ye bisa nk'aho ari we ari kubarira ayo mafaranga, imbere y'umugabo hakaba hari urupapuro runini.

Ni umugabo w'umwirabura uri kubara amafaranga menshi y'amadolari, ku mafaranga ari kubara ari kuyabara akoresheje imashini yabugenewe ibara amafaranga. Ku ruhande rwe hari umushandiko muremure w'amafaranga ku kurundi ruhande, hari urukuta rw'umweru, umugabo yambaye ishati y'umweru, inyuma ye hakaba ibikarita ashyiramo amafaranga.

Urwakiraro rwicayemo abagore babiri umugore umwe yambaye umupira usa umuhondo, naho undi akaba yambaye umupira w'umukara, batanga serivisi zo kubitsa ndetse no kubikoza amafaranga ndetse no koyohereza hirya no hino mu gihugu, ndetse no hanze yacyo, hifashishijwe mobayiro mani cyangwa se wesitani uniyoni.

Ibiganza bibiri by'umwirabura bifite amafaranga y'ubwoko bubiri ahubwo ku bumwe amafaranga y'amadolari akunze gukoreshwa mugo by'i burayi nka Amerika, Uburayi ndetse n'ibindi bihugu nk'ububiligi hirya hari igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kuyabara.

Iyi ni inzu icururizwamo amata aho bigaragara ko harimo icyuma gikonjesha, mu cyuma gikonjesha harimo igikombe cy'umweru, igikombe k'icyatsi ki bisi n'akajerekani k'umweru karimo amata. Ku ruhande rwaho hari n'icupa rya niri, hirya y'icyuma gikonjesha hari icyupa rinini ririmo amazi ya jibu, byegeranye n'igikuta cy'amatafari ahiye.

Isahani y'icyuma iri ku meza ikoze mu biti iriho amasambusa agera mu mubare w'amasambusa arindwi aho ikoze mu buryo bwa mpande eshatu ndetse n'imbere hagiye hafungiyemo ibirayi cyangwa inyama.

Ni ishopu itanga ibiribwa n'ibinyobwa ku baturage, hakaba hari umugabo wambaye isengeri y'umweru, akaba ari kwakira umumama n'umupapa, umupapa yambaye ingofero yu'ubururu bakaba bicaye kuri tebo bakaba bari kubaha serivisi, inyuma yabo hakaba hari akabati kariho ibiribwa n'ibinyobwa.

Ibyansi bya kizungu byifashishwa mu kuganizamo amata bategereje ko yaza kugemurwa hirya no hino mu gihugu kugira ngo adapfa cyangwa akangirika.

Icyuma cyo mu ikaragiro cyifashishwa mu maduka yibanda mu gutunganya amata ndetse n'ibiyakomokaho, kikaba cyifashishwa mu kuba amata yabuganizwamo hanyuma kikayabika neza adapfuye cyangwa ngo yangirike.

Ni nzu ikusanyirizwamo amata. Akaba ari inzu isa amarangi y'umweru n'ubururu, ayo mata akaba yitwa inyange, akaba ari ikintu kinini gikoze mu icyuma bashyiramo amata kitayashyushye. Imbere ya ho hakaba hahagaze umukobwa wambaye ikoti ry'umukara n'ijipo y'umweru n'umukara. Kuruhande hakaba hahagaze umuntu afite telefoni mu ntoki, yambaye umupira w'ubururu.

Umugore w'umwirabura wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara usutse ibisuko bigufi, uri kuvoma amata mu kajerekani k'umweru ayakura mu ikaragiro ryanditseho Inyange milkzone ari ahantu bategurira amata ndetse n'ibiyakomokaho.

Ni uruganda rucuruza amata, aho amata ari mu tujerekani tw'umweru, akaba amanitse ku dutabureti tw'umukara, hirya hakaba hari icyuma gikonjesha, akaba ari mu nzu, aho hasi ifite isima isanzwe, ni ubujerekani kandi bugera mu ijana bw'amata.

Agakombe karimo uduti twifashishwa abantu bari kwihaganyura dukunze kwitwa kirida aho dukoreshwa nyuma yo kurya ibiryoyo byafashe mu menyo gateretse ku meza y'umweru ndetse ku ruhande hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Imibare kanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri umunani akanyenyeri urwego biri imbere y'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo ufite inzara zisize amarangi y'umutuku ndetse akagira n'imisatsi y'umukara.

Umusore bigaragara nkaho akiri muto uri guseka yishimye, akaba afite ubwanwa bwinshi bw'umusatsi mukeya. Umusore akaba ari imibiri yombi akaba afite telefone mu ntoki ze. Ari iyo telefone iri kwakamo ibara ry'icyatsi kibisi n'amagambo y'umweru, yanditse mu buso bw'umweru. Amagambo akaba ari umukara, aho inyuma y'ihanditse ijambo rinini ryitwa sipeni.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse hariho n'umwana ku ruhande w'umwirabura, cyanditseho magambo y'umukara avuga ngo teganyiriza ahazaza h'umwana wawe wifashishije sipeni aho ejo he hazaba heza.

Umugabo n'umugore aho bose bishimye, aho umugabo yambaye umupira w'umuhondo n'ingofero y'ubururu, umugore yambaye imyenda y'umukara n'umupira w'ubururu, akaba ateruye igikarito, umugore akaba afite imisatsi migufi, akaba yambaye n'amarinete, ku ruhande hakaba handitseho MoMo mu magambo manini.

Uburyo bugezweho bwo kwishyura ndetse no gutwara amafaranga kuri telefone mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho bukorana na ekobanke, zigama, ayendemu banke, eyibi banke, banke ofu afurica, kopedu, agisesi, momo emutiyene na eyateri mai byose bigakorwa hakoreshejwe telefoni mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Uburyo bwiza bugezweho bw'ikoranabuhanga bwa sipeni bwifashishwa mu kwishyura ifatabuguzi rya televiziyo, ifatabuguzi ry'umuriro ndetse n'ifatabuguzi rya sitatiyimu, aha bigakorwa umuntu yifashishije telefoni ngendanwa cyangwa se mudasobwa.

Kopedu piyerise banki y'abaturage ibafasha kwizigama, kugurizwa ndetse ikabafasha no gutera imbere, ibafasha kohereza ndetse no kwakira amafaranga binyuze muri wesltani yuniyoni.

Ni umugore uri kwamamaza serivise mo monigamu yo kohereza no kohererezanya amafaranga mu buryo bwa interineti, ikaba ifasha mu kugabanya kuba wakwibwa no kubabura amafaranga yawe mu buryo utari wateganyije akaba ari umuma wambaye umupira w'umweru ufite imisatsi y'umukara myinshi na telefone mu ntoki.

Uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga bwo kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga hifashishijwe urubuga rwa sipeni, bigakorwa na telefone isanzwe igendanwa ndetse na mudasobwa, hakoreshejwe murandasi bakishyura amafaranga bitewe n'icyo bashaka kwishyura, hano bari bishyuye kuri kanari.

Icyangombwa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo akoresheje ibara ry'umukara, cyatanzwe na tarama Rwanda limitedi gishimira abagize ubufatanye na bo mu kugura ibicuruzwa, aho hariho nimero iranga ibicuruzwa ndetse n'amafaranga yakoreshejwe n'itariki byakoreweho.

Ibiceri bitetse ku gipapuro cy'umukara kiriho ibimenyetso biri mu ibara ry'umutuku, icyatsi ndetse n'ubururu, ndetse ryanditse n'amagambo akoresheje umuhondo, giteretseho ibiceri hejuru byanditseho icumi, ndetse n'imbere hari utundi tubuye tumeze nk'utwuma twanditseho ngo bayi ndetse na seri.

Ni inoti y'ifaranga rimwe aho iryo faranga ryitwa Iyuwani, ikaba ari inote ikoreshwa mu gihugu cy'Ubushinwa .Iyo noti ikaba ifite amarangi menshi , kuri iyo note hakaba hashushanyijeho amazi, harimo n'utuntu tw'imbere tw'utuvazi, ku ruhande hakaba hari umugabo w'umusaza usa nkaho akuze, hakaba hariho amagambo yanditswe mu Gishinwa.

Ibiganza by'abirabura bifasha amafaranga aho bimwe bifasha amafaranga y'amadorari cyangwa amafaranga akunze gukoreshwa mu bihugu by' i Burayi nk'Amerika, Ubutaliyani, Ubudage ndetse ibindi ibiganza bikaba bifashe amafaranga akoreshwa muri Niyigeriya akunze kwitwa amanayila.

Ifaranga rikoreshwa mu gihugu cy'ubushinwa, aho ari amayuwani icumi, aho ku ifaranga ry'iyuwani hariho ururabo n'umugabo warwaniye ubwigenge bw'ubushinwa, aho munsi yaho hariho idolari ry' Amerika ry'idolari rimwe rifiteho uwahoze ayoboye icyo gihugu.

Telefone zivunja zikanavunjura amafaranga kikaba gifitemo ibyapa by'umutuku n'umweru karimo akabati kanini k'umweru n'ubururu akaba arimo umuntu wambaye ishati y'umweru akaba ari kwakira uwambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ivu . Akaba afite amakaro y'umweru akaba afite na parufe y'umweru n'amatara menshi ari kwakira iruhande rwabo.

Ibiro bikunze kwifashishwa n'abantu bavunjisha amafaranga bayakura mu manyarwanda bashyira mu madorari cyangwa se bavana mu madorari bashyira mu manyarwanda ndetse bigatanga na serivisi zo kohereza amafaranga hirya no hino mu gihugu.

Akazu gato kari kaberamo ivunja n'ivunjisha ry'amafaranga, ako kazu kaba kakaba gafite amabara y'umuhondo, kakaba gafite ibyapa byinshi bitandukanye, iruhande kakaba hahagazeho abagabo bageze muri batandatu b'abazungu baje kuvunjisha cyangwa kuvunja amafaranga yabo, akaba ari agakiwosike k'umuhondo.

Kampani ikora mu kuvunja no kuvunjira amafaranga, aho iyo kampanyi hariho biro eshatu, hakaba hariho mudasobwa eshatu ku meza, harimo n'umugabo umwe ugaragara wambaye rinete. Iyo Kampani ikaba ifite bilo ifiteho akantu abakiriya baza kuguhagararaho gasa ikiju, kuruhande hakaba hari amabara y'umweru.

Icyapa kigaragaza ahakunze gutangirwa serivisi zo kuvunja amafaranga, yaba kuyakura amadolari ashyira amanyarwanda, cyangwa se kuyakura abanyarwanda ashyira mu madorari hakaba akunze hakunze kwitwa mari foresi ndetse bakaba banatanga serivisi zo kohereza amafaranga ava mu gihugu kimwe ndetse ajyana mu kindi.

Ni inzu aho hari inzu ifite ibyapa byinshi bitandukanye. Muri ibi byapa harimo icyapa cya banki nkuru y'u Rwanda gisa umweru gifite n'amabara y'ubururu. Hakaba n'ikindi cyapa kiri munsi kisa umweru n'ubururu kikaba cyanditseho amagambo y'umutuku n'andi y'ubururu n'indi mibare y'umweru.

N' ibintu bikorerwamo n'abazungu aho ibyo biro bishizwe ku kuvunja no kuvunjira amafaranga ,ibyo biro bikaba byakiriye abagabo babiri harimo umugabo umwe kubakira n'undi mugore wicaye kubumuso bwe, Inyuma yabo hari televiziyo nini y'umutuku n'indi nini irikwakamo amabara y'ubururu n'umutuku hejuru handitse amagambo y'igishinwa no hirya handitse amagambo y'igishinwa mutuku ahandi ari mu bururu.

Ni umugore yambaye imyenda y'umweruru w'imisatsi y'imikara kuruhande rundi mugabo wambaye imyenda y'umweru imusatsi y'umukara n''ipantaro yumukara ari kumashini zibara amafaranga bakaba bameze nk'abari kubitsa hakaba hari kuruhande televiziyo nini iriho uko ibiciro by'amafaranga bihagaze ku isoko ry'imigabane.

Uburyo ko kuvunja no kuvunjura amafaranga mu bwoko bwinshi butandukanye aho iyo company yitwa zuru forekisi biro akaba ari companyi iri mu nzu isanzwe iyo nzu ikaba ifite amarangi ya gereye n'amakaro hejuru ikaba ari inzu ifite imiryango y'ubururu.

Imeza ikozwe mu bikoresho by'ibiti ikaba yakoreshwa nko kuyiriraho ndetse no kuyigiraho ndetse ikaba yakoreshwa no mu mahoteli cyangwa se mu nzu zo kubamo bisanzwe.

Intebe zikoreshwa muri salo, ziba ari intebe esheshatu, zikaba zifite n'imeza yazo. Zikaba ziteretse ku kabaraza k'amakaro y'imweru n'amadirishya y'umweru na madirishya afunguye inyuma. Naho izo ntebe zisize irangi, ku ruhande rw'iyo nzu akaba ari ahantu abantu bahagarara bisanzwe; amadirishya akaba afunguye n'imiryango ikaba ifunguye.

Ni kampani ikora ibikoresho byo mu nzu harimo intebe utubati n'amameza, akaba ari kompani ikora intebe nziza kandi zitandukanye, izigaragara harimo intebe z'ubururu intebe z'umweru n'ameza y'umweru, akaba ari kampani ikorera mu rugo, mu rugo ahantu inzu bakoreraramo inzu ifite amarangi y'ubururu n'inzugi z'amarangi y'ubururu.

Intebe eshatu, imwe ntoya n'indi nini ndetse n'indi ntoya. Zikoze mu bikoresho by'ibiti zisize irangi ry'umutuku wijimye, zifite imisego ifunitse mu mwenda usa na kaki, ziteretse ku makaro. Ndetse n'ibara ry'ibikuta hasa umweru.

Akabati gakoresheje ibikoresho bikoze mu biti kari mu ibara ry'umuhondo werurutse ndetse gafitemo n'ibindi bikoresho bikoreshejwe palasitike bisa umweru bigiye bitobaguye.

Imeza ndetse n'intebe bikoze mu bikoresho by'ibiti, birimo imisego ikoze muri matela ifunikishije igitambaro cy'umweru kigiye kirimo utuziga tw'umukara ndetse n'umweru, ibara basize ku meza ndetse n'intebe ni ibara risa umutuku wijimye.

Nibikoresho byo mu nzu aho bari gukora imeza izakoreshwa mu nzu ku ruhande hakaba hari akameza gatoya n'umuryango w'umuhondo aho inzu isize irangi ry'ivu hakaba imwe izakoreshwa mu nzu aho bayiriraho cyangwa aba bakaterekaho ibikoresho byo mu nzu ikaba igurishwa.

Imeza ifite amaguru afashwe n'ibyuma ku mpande bitatu ndetse hirya yo hakaba hari akameza gatoya gakoze mu giti kakaba gasa umuhondo wererutse ndetse iyi meze ikaba iteretse iruhande rw'ubusitani.

Inzu isize amarangi y'umuhondo igeretse inshuro ebyiri imbere yaho hari ubusitani burimo ibiti ndetse n'indabo ndetse n'amavaze ateye n'indabo z'icyatsi.

Icyumba cya hoteli kirimo igitanda gishashe neza gishashe amashuka y'umweru kirimo televiziyo ndetse n'intebe abantu bicaraho iyo baje kukiraramo.

Ni ikawa ipfunyitse mu cy'amvirope cy'umukara, imbere yaho hakaba hari utundi duto bashyiramo harimo, umweru, icyatsi kibisi n'umuhondo, bikabi biri ku meza y'umukara, hirya yaho akaba ari ibikoresho bibiri bishinzwe guteka icyayi, ku rundi ruhande aho izo kawa zegamiye, zegamiye ku cyuma nacyo gishyushya icyayi, ku ruhande hakaba hariho ibiyiko bibiri.

Umugabo w'umwirabura wambaye ingofero y'umweru ndetse na marinete wambaye n'ishati y'umweru y'amaboko maremare, ifite ibipensu by'umukara ndetse n'uturongo tw'umukara biri gukata karoti ndetse n'imbere hari n'izindi mboga zitandukanye higanjemo ibitunguru inyanya, amashu, karoti ndetse na pavuro ndetse n'inyuma ye hari ishyiga ryo guterekaho.

Amazi magari y'amakorano ari mu ibara ry'ubururu, ndetse hirya yaho hari udutebe abantu bicaraho iyo bayajemo ndetse n'imitaka, amazi akaba aherereye kuri hoteri, ndetse abantu baza bakajyamo bakoga mu buryo bwo kwishimisha no kugorora umubiri.

ibiti by'icyatsi biteganye n'icyuma cy'ikoranabuhanga gifasha ibinyabiziga ndetse n'abagenzi kugenda guhagarara ndetse no kugenda gake kiba cyaka amabara y'icyatsi ,ubururu ndetse n'umuhondo gikunze kwitwa mu ndimi z'amahanga fau rouge imbere yacyo hari inzu isize amarangi y'umuhondo ifite n'amagorofa abiri.

Iyi ni hoteli ikaba yakira abantu benshi batandukanye, aho ino hoteri ifite intebe nziza zitandukanye hakaba ari intebe z'ivu hakabaha hasi ari amakaro asize irangi ry'umweru hakaba hari ibiti byinshi birebire kandi byiza.

Ni Hoteli nini icumbikira abantu, aho iyo Hoteli mu cyumba cyayo harimo: intebe y'umukara, imyenda yambara y'imyeru, ikagira igitanda gisashe amashuka y'umweru n'indi shuka y'umukara iri hejuru. Kuruhande hakaba hari igitanda kirekire gifite imisego ine: ibiri y'umweru n'ibiri y'umukara n'umweru. Kuruhande hakaba hari itara rimurika, hakaba hafunguye amarido.

Inzu ifite amagorofa menshi ifite irangi risize umweru ndetse n'utudirishya twinshi hasi no hejuru hirya yaho hari indi nzu nayo ifite amagorofa menshi isize irangi risa umuhondo hejuru yanditseho ibihumbi bibiri cyangwa kabiri n'amazeru atatu ibumoso bwayo ndetse hari indi nzu isize amarangi y'umweru na yo ifite amadirishya menshi.

Intebe y'imifariso ndetse na televiziyo, ndetse n'agatebe gatoya biri mu ruganiriro muri hoteri byifashishwa kugira ngo byicarwemo n'abaje bagana hoteri.

Ni hoteli itanga serivisi yo kwakira abantu banyuranye babaha icyo kurya n'icyo kunywa bitewe n'icyo bifuza, ikaba arai hoteli yitaruye umugi iri hejuru y'umusozi, ibakaba ari hotel ifite intebe nziza z'umukara, ikaba ifite akantu abantu bahagararaho bareba hirya k'umukara, ikaba isize amarangi y'umweru, ikaba yitegeye umusozi w'ihshyamba.

Aho abantu bishimishiriza binyuze mu buryo bwo koga bibira mu mazi menshi, ariho bakunze kwita kuri picine, zikunze kuba ziri ku mahoteli ndetse n’ahandi hantu abantu basohokera bagiye kwishimisha, ndetse no kuruhuka mu mutwe.

Niho yakira abantu batandukanye bensh,i ikaba ari hoteri ifite aho barebera tereviziyo aho abakiriya bicara bari kumwe bafata icyo bashaka ikaba ari hoteri ifite amatara menshi atandukanye ikaba ifite akabati k'umukara ikaba ifite intebe abakiriya bicaraho z'ivu ikaba ifite urukuta rw'ivu ikaba ifite na tereviziyo nini bareberaho

Inzu itanga serivisi zo kwakira abantu, akaba ari hoteli y'amagorofa abiri, ikaba ari hotel ifite amarangi y'ubururu n'amatafari ahiye ikaba isakajwe amatebura hanze yaho hakaba hari ahhantu abantu bugama izuba, akaba ari etage iri mu mugi, aho ku ruhande yaho hariyo indabo nini ndende n'indabo zo hasi zifasha abantu baje ahongaho kumva amahumbez n'umwuka mwiza.

Ubwishingizi ku bantu, akaba ari umuntu wambaye umupira wikora, ishati y’umutuku irimo n’utubara tw’umweru, yakira n’undi wambaye ikoti n’ ishati y’umweru, yicaye imbere ya mudasobwa igeze muri ebyiri. Uwo bakiriye ari kunywa Fanta, ku ruhande hari imashini ifotora impapuro ikanazisohora.

Iyi itanga by’ubwishingizi ku bijyanye n’ibikorwa remezo, akaba ari umugabo wambaye ikoti ry’umukara, inkweto z’umukara, n’ishati y’umweru. Akaba ari Umuzungu, akaba ahagaze mu nzu ifite amarangi y’umweru, mu madirishya y’ubururu, amakaro y’umweru, intebe z’umweru, mudasobwa y’umweru, n’intebe y’umukara.

Umugabo wasimbutseho umugabo wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umweru n'umupira w'umutuku, akaba afite terefone mu ntoki akaba yishimye cyane ku ruhande rwe hakaba hari utubogisi tune twanditseho mobayilo bankingi hejuru ye hakaba handitseho simbuka hakaba harimo ibara ry'umuhondo ndetse hakaba harimo ibara ry'icyatsi cyibisi.

Mudasobwa aho umugore ari guseka yambaye umupira w'umuhondo, imisatsi y'imikara migufi akaba yicaye imbere imbere ya mudasobwa y'umweru. Inyuma ye hakaba handitseho ngo nyaruga. Ku rundi ruhande hakaba handitse amagambo y'icyatsi kibisi, ay'ubururu ndetse n'ay'umweru, byose biri mu ibara ry'umweru inyuma.

Ni banki ifasha abantu mu kubona inguzanyo, aho hariho umugore wambaye ikanzu y'umweru n'imisatsi y'umukara, iyo banki bakaba bayita ekwiti bank akaba ikorera mu gihugu cy'u Rwanda aho ifite apurikasiyo ku mbuga zitandukanye harimo pureyisitowa na apusitowa.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ngo weekend kiriho abantu babiri umukobwa ndetse n'umuhungu, umukobwa yambaye agapira k'umweru ndetse n'ikote risa iroza n'ipantaro ateruwe n'umuhungu wambaye ishati y'ubururu bwerurutse ndetse n'ipantaro y'ubururu bwerurutse bose barimo baraseka, umukobwa afite imisatsi myinshi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo akoresheje ibara ry'umweru cyanditseho iyedemu banki cyerekana ko ari ishimwe iyedemu banki yahawe umwaka w'ibihumbi makumyabiri makumyabiri na kane.

Ni ikigo k'igihugu gitanga inguzanyo bita bipi ara banki ikaba airi mu mabara y'umweru, ikaba izengurutswe n'akabara k'icyatsi kibisi, mo imbere hakaba harimo umugabo w'inzobe, Paul Kagame hizi egiserensi wambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweruru na karuvati y'umukara n'amarineti.

Itangazo cyangwa icyapa cya MTN kiri mu ibara ry'ubururu ndetse cyandikishije n'amagambo y'umweru ndetse n'umuhondo, hariho ifoto y'umukobwa wasetse afite telefone mu ntoki, yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ishati y'ubururu, icyapa cyerekana ko buri cyumweru umuntu yatsindira miliyoni eshanu, ari uko akanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri cumi na gatatu, akajya muri tubirimo na mokashi.

Ni umugabo n'umugore aho umugore yambaye ikanzu y'umweru umugabo akaba yambaye ikoti ry'ubururu n'ishati yu'umweru, hakaba inyuma yabo hari inzu yubakishije amabuye, ku ruhande hakaba hari urukarabiro runini abantu bakarabiramo, inyuma yabo hari inzu isakaye amapave.

Umukobwa uri kwerekana serivisi ya ayedemu banki yitwa iyubake na ayedemu banki, aho ubaganye ahabwa inguzanyo igera kuri mirongo irindwi ku ijana y'agaciro k'inzu yiwe.

Abacuruzi b'abagore bacuruje imboga ziganjemo inyanya ,amashu karoti ,ndetse n'intoryi bacuruje bitwikiriye umutaka kugira ngo izuba ritabica .

Inyubako iberamo isoko aho bagemuramo imboga n'imbuto, akaba ari isoko ryitabirwa n'abantu benshi, imiryango yabo ikaba ari ubururu, ikaba isize irangi ry'ivu, mo imbere akaba n'utubati dutandukanye tujyaho ibintu bitandukanye, hanze hakaba hari abantu benshi bitabiye iryo soko bajya kugura ibirimo isombe, imboga ndetse n'isenda.

Amarembo ariy'icyapa cyanditseho Nyabugogo modani maketi bishatse kuvuga isoko rya Nyabugogo rigezweho ririmo abantu b'ingeri zitandukanye abagore ndetse n'abagabo aho higanjemo abagabo bambaye imyenda y'icyatsi bakunze kwitwa abadasso ndetse n'abandi baturage bari kugenda mu buryo busanzwe ndetse mo imbere harimo n'ibidari.

Isoko cyangwa bahahiramo imboga n'imbuto byiganjemo amapapayi, imineke, amacunga, ibinyomoro ndetse n'inanasi byicayemo abagore babiri aho mu ruhande rw'iburyo hicaye umugore wambaye itabu y'icyatsi ndetse n'igitenge kirimo amaba y'umweru n'icyatsi mu ruhande rw'ibumoso hakaba hicayemo umugore wambaye igitenge cy'rimo amabara y'umutuku.

Isoko ryiganjemo ibicuruzwa harimo ibitoki, inyanya ,intoryi, karoti, ibitunguru ndetse n'ibibiringanya higanjemo abacuruzi ndetse n'abaguzi baje guhaha.

Isoko ricuruza ibintu by'ubugeni. Akabi ari isoko ricuruza amafoto, ibintu byakozwe n'intoki, hakaba karimo n'ingoma, hakaba harimo n'utuntu bariraho n'utwo batekesha. Akaba ari isoko ririmo icyapa cyanditseho afurika kirimo ifoto ya afurika ishushanyije no munsi hakaba hari indi ifoto iriho umugore n'umwana.

Nyabagendwa ahokoresha ibyerekezo bibiri, imodoka zizamuka n'izi manuka mu muhanda, harimo moto menshi ari bari mu kazi, ku ruhande n'abagenzi ku ruhande hakaba hari inzu nini y'ubucuruzi n'imiturirwa ine, aho ikorerwamo ubucuruzi bwinshi butandukanye.

Ni ahantu hahurira ama modoka menshi, hakaba harimo ama modoka menshi atwara imizigo, hakaba harimo abantu benshi n'abamotari benshi, uko bigaragara ni nk'isoko, akaba ari isoko rigaragara ko ririmo imodoka nini y'umweru, inyuma y'ubururu, itwara amazi, ikaba yanditseho wota tanka, ikaba irimo abantu benshi baje guhaha, n'abari kwitambukira, ikaba irimo n'inyubako ku mpande zaho.

Aho bacururiza cyangwa isoko ryiganjemo ibicuruzwa nk'inkweto za podaboda, ndetse n'ibikapu ndetse harimo n'abantu barenze umwe, aho harimo badaboda ziri mu mabara yombi menshi harimo: iz'umweru, iz'umuhondo, iz'ubururu, iz'icyatsi, iza kaki, ndetse n'andi menshi.

Isoko cyangwa aho bagurira hari abantu benshi bagiye batandukanye hari abantu bicaye imbere y'ibicuruzwa higanjemo imyumbati hicaye umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ingofero y'umweru irimo uturongogo tw'umukara ndetse yicaye ku gatebe gakoze mu biti.

Isoko cyangwa aho abantu bacururiza, hari abantu benshi higanjemo abagore ndetse n'abagabo, aho bafite ibicuruzwa bigiye bitandukanye, higanjemo ibicuruzwa bikoreshejwe intoki cyangwa uduseke, udukapu, inkongoro, ndetse n'intebe zibaje mu biti.

Ni isoko rinini, iryo soko ryitabirwa n'abantu benshi rikaba ari isoko rifite ibara ry'umutuku ku ruhande hejuru haakaba handitseho isoko nini ku ruhande akaba ari icyapa cyanditseho Mukamira dayari, iryo soko rikaba ririmo abantu benshi rikaba ryanditseho Alimantasiyo.

Aho bacuruza imboga n'imbuto hari utubati turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye higanjemo amashu menshi ndetse na karoti n'ibitunguru by'amababi ndetse n'ibikunze kwitwa mu ndimi z'amahanga borokori ndetse harimo na seleri na epinari.

Ni abahungu babiri umwe yambaye imyenda y'umweruru n'inkweto z'umweru undi yambaye ishati yumweru, umupira w'mweru n'ipantaro y'ubururu, n'inkweto z'umweru aho bari kubyina inyuma handitse icyapa cy'umuhondo cyanditseho izihirwe hari abakobwa babiri bahagaze ku ruhande bari kubaraeba inyuma yabo hari indangururamajwi.

Umuhanda w'ibyerekezo bibiri bitandukanye aho uwo muhanda ufite ku ruhande utuntu tw'umweru n'ubururu n'umukara, hakaba hari akayira k'abanyamaguru haruguru hakaba hari akantu kakuma kubatse mu buryo bw'inzu kaba gasa umuhondo kakaba kanditseho amabara ya emutiyeni inyuma yaka hari icyapa cyanditseho kigi ijana na mirongo cyenda na kabiri.

Akazu k'umuhondo ka emutiyene bakoresha bari kubitsa, kubikuza ndetse no koherezanya amafaranga binyuze ku murongo wa emutiyene.

Umugore uri mu kazu cyangwa agakiyosike ka emutiyeni, ufite akazi ko gutanga serivisi za emutiyeni harimo kubitsa, kubikuza ndetse no kohereza amafaranga hirya no hino mu gihugu hifashishijwe umurongo wa emutiyeni.

Akazu cyangwa agakiyosiki mu ndimi z'amahanga ka emutiyene gahagazeho abantu batatu abagabo babiri ndetse n'umukobwa umwe, akazu ka emutiyene gatanga serivisi zo kubitsa kubikuza ndetse no koheza amafaranga hirya no hino ku Isi ndetse no mu gihugu.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, umwe wambaye ishati y'amaboko magufi iciyemo imirongo, arimo arakora mu gaseke karimo amabara y'icyatsi n'umukara gafitwe n'umugabo w'umuzungu wambaye ikarita y'umuhondo ya emutiyeni ndetse iruhande rwe hicaye umugore wambaye umupira wa emutiyeni w'umuhondo arimo araseka.

Ni uburyo bugeze bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga bishyura, aho bigaragara ko ari umuntu abantu baje kugura mu isoko rinini, hari umugore wambaye imyenda y'imyeru n'imisatsi y'imikara, imbere ye hari undi mugore uri kwerekana telefone aho yishyuriye, akaba ari kubyereka umukobwa wambaye umupira w'umutuku.

Mbere yo kugendana amafaranga kuri telefone byitwa guca amafaranga yo mu ntoki akaba ari telefone umuntu uri gushyiramo kode yoherejwe na Otibi akaba ari serivisi yazanywe kugira ngo yorohereze abantu mu kohereza no kohezanya amafaranga n'umutekano wayo.

Iyi ni inzu nziza cyane mu imbere igizwe n'amabara y'umweru impande zose, huzuye abantu benshi bamwe baricaye abandi barahagaze urabona ko ari ibintu bibereye ijisho.

Abantu biganjemo abakobwa batatu bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'amakarita y'icyatsi imbere uhagaze umukobwa ufite ibisuko bisa umukara wambaye ipantaro isa kake ndetse n'ishati y'umukara irimo uturongo tw'umweru bahagaze imbere y'ahantu hakorerwa ibikorwa bya MTN kubitsa kubikuza ndetse no kohereza amafaranga.

Ni isoko rigezweho rikorera ku mbuga nkoranyambaga, nk'iryo soko ryitwa Iguriro, ku iguriro hakaba handitseho amagambo menshi atandukanye, ari mu mabara y'icyatsi kibisi, umweru umuhondo umukara ndetse n'umutuku, kuruhande hakaba yanditse amagambo avuga ngo hahira mu Bushinwa no mu bo muri Amerika

Urubuga bahahiraho ku mbuga nkoranyambaga. Aho urwo rubuga ruriho inkweto, ubukoresho bwo mu nzu, televiziyo ndetse na mimurikadi. Ikaba iriho abagore bane bambaye imyenda iri kugurishwa. Ikaba iriho ibiciro bitandukanye ku nkweto, zikaba zigurishwa.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gitwaye amacupa ya gaze akaba ariwe muntu wambaye umupira w'umukara ipantaro y'umukara n'inkweto zifite ibara ry'umukara akaba hari n'undi wambaye ishati y'amaboko magufi bifite ibara ry'umukara ririmo uturonko mu tw'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara n'umweru.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwifashishwa mu kugura ndetse no kugurisha ibikoresho binyuze kuri terefoni ndetse no kuri za mudasobwa, rugaragaraho ibikoresho n'inkweto terefoni, amatara ndetse n'amashakoshi, bicururizwa kuri murandasi ndetse umuntu akaba yabigura atavuye aha ari.

Ni uburyo bugezwe bwo guhaihra ku mbuga nkoranyambaga, aho uha kugeraho umuntu icyo watumije icyo aricyo cyose. Akaba ari moto y'umukara ifite akaboxi kumukara inyumaba itwarwa n' numugabo wambaye ipantaro y'umukara ikoti ry'ubururu n'ingofero icyatsi kibisi. Akaba yarabishyiriye umukobwa wambaye agapira k'umweru n'ipantaro yumukara n' imisatsi miremire.

Ni kampani ishinzwe kwamamaza aho barikwamamaza igitaramo kizabera muri kigali kiitwa kigali apu, iki gitaramo akaba bari gutanga ko amatike ari hanze ubungubu ukaba wasanga ku rubuga nkoranyambaga bita Jumiya Rwand akaba ari icyapa kiriho abahanzi benshi, bintu byinshi bitandukanye mu marangi y'umweru, kikaba gifiteho mikoro imbere bakaba bayita kigali apu.

Ku mbuga nkoranyambaga aho uhaha uri mu rugo bakanabikugezaho, aho iyo kompani yitwa twiga shopu, akaba ari umugabo wambaye umupira w'ubururu ufite ikigantego cya twiga shopu, wikoreye umuzigo ku rutugu wambaye ingofero uri kuwushyira mu modoka y'umweru.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwitwa Livingi ini Kigali rwifashishwa rufasha abantu batuye iki muri Kigali kuba bagura ibikoresho ibiribwa ndetse n'imyambaro muri Kigali.

Urubuga nkoranyambaga bahahiraho rugezweho rwitwa shopify express, rukaba rwanditse mu mabara y'ubururu, icyatsi kibisi n'umweru. Aho byanditse mu mweru uri mu cyatsi kibisi akaba ari amatelefone ageze muri ane manini na mudasobwa imwe.

Ushobora guhahira ku mbuga nkoranyambaga, aho inafatiyeho umukobwa wambayegiteri z'umweru imisatsi n'imikara miremire afite telefone y'imweru mu ntoki akaba yicaye ku gitanda cy'amashuka y'umweru imbere hateretse agakapu k'umukara.

Inzu iri mu mujyi wa Kigali, Kabeza. Aho iyonzu iri kugurishwa amadorari ibihumbi bitanu na mirongo itanu ku kwezi. Aho igikoni cyayo gifite firigo y'umweru ifite igikuta kiza, amarangi y'umweru, amakaro y'umweru n'utubati bashyiramo ibintu tw'umweru.

Inzu iri muri Kanombe mu mujyi wa Kigali aho iyo nzu bari kwerekana igikoni, iyo nzu ikaba igurwa miliyoni ijana na mirongo ine muri Kigali mu Rwanda. Aho iyo nzu ifite amakaro y'umweru mu gikoni, ikaba ifite n'utubati tw'umukara dusizeho uturangi tw'umweru ifite amatara amurika umweru n'umutuku kugisenge hakaba hasa umutuku n'ibara ry'umweru.

Inzu iri mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali ifite amakaro y'umweruru ndetse n'amarangi y'umweru, ikagira n'amatara y'umweru, ifite n'inzugi zisa umutuku wijimye iri mu mujyi wa Kigali iri kugurishwa amafaranga miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'u Rwanda.

Inyubako iri muri Gisozi aho inyubako itwereka mu cyumba hari n'igitanda gishasheho amashuka y'umweru imisego y'umweru n'umukara igifite amarido y'umukara, irangi ry'umukara n'akandi karido gasa umukara, ikaba ifite ibyumba bine byo kuraramo inzu ikaba iri muri Kigali.

Inzu ifite amakaro y'umweru ndetse uvangiyemo n'umukara, ifite irangi risize ku bikuta risa n'umweru, ukagira amatara ari mu bwoko bugiye butandukanye ndetse n'imiryango n'idirishya, iherereye mu Mujyi wa Kigali mu Gihugu cy'u Rwanda, iri kugurishwa amafaranga miliyoni ijana mirongo itatu z'Amanyarwanda.

Uburyo bugeze bwo gucuruza amazu ku mbuga nkoranyambaga aho iyi nzu ifite ubuso bunini abarinzi ifite amarangi y'umweru zrandi y'umukara ku mpande ikaba ifite aho buugama izuba hasize irangi ry'ubururu.

Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubwo yarari kwiyamamaza agahaguruka mu modoka agasuhuza abaturage bamushagaye, bose bafite utwapa duto twanditseho efuperi, ndetse hari abajepe bari kumurinda bareba hirya no hino bamucungira umutekano.

Inzu iri mu mujyi wa Kigali iri kugurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Aho igikoni cyaho gisa umweru, hasi hakaba ari ahantu batekera, banogereza amasahani hasa umukara. Ikaba ifite amakaro y'umweru n'inkuta zisize amarangi y'umweru.

Inzu iherereye mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa kigali, ifite amakaro ari mu ibara risa na kaki ndetse n'umweru, ikagira inkuta zisize amarangi y'umweru, ndetse n'inzugi zisize irangi risa n'umutuku wijimye, ikaba igura amafaranga miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako iri gukodeshwa aho iyo nzu iri mu murenge wa Kigali yo muri Kigali i Kanombe, ifite ibyumba bine ubwiherero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu ku kwezi ikaba ari inyubako ifite amabati y'ubururu, ikaba ari inyubako ifite ibirahuri bibonerana, ikaba inyubako ifite amakaro y'umweru ikaba ifite inzugi za shokola.

Inzu ikodeshwa iherereye muri Kimironko muri Kigali ifite ibyumba bine, ubwiherero butatu ikaba iri kugurishwa ibihumbi magana atandatu, ikoreshwa ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda ya buri kwezi, iyi nzu ikaba ifite amapavi imbere ikaba iteyeho ubwatsi bwa pasiparumu imbere yayo.

Inzu ikodeshwa ifite amarangi y'ubururu ndetse n'amarangi ya kaki, ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, iherereye mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Remera ndetse ikaba irimo ibikoresho byose waza kuyikodesha yakenera.

iri kugurishwa iyi nzu ikaba ifite ibyumba bine ikaba biri muri Kagarama., ikaba ifite ubwogero butatu ikaba arikugurishwa ibihumbi magana atandatu ikaba ari inzu ifite amapave hanze akaba ari inzufi ifite isize irangi rya ry'ivu, ikaba ari inzu ifite indabo ku ruhande akaba ari inzu nini uko bigaragara inyuma yayo hakaba hari inzu iri kubakwa itaruzura.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kanombe, iri kugurishwa amafaranga miliyoni eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba ifite ubutambike ndetse n'ubugari bwa magana atatu mirongo ine, ikaba isize amarangi y'umweru ndetse n'ay'umuhondo ikagira n'amabatasa kaki, ndetse n'imiryango isize amarangi asa ubururu bwerurutse.

Serivisi z'umushinga cyangwa se kampani mu ndimi z'amahanga yitwa genelo turansipoti zibu kampani limitedi, aho batanga serivise za tiransiporo hagati mu gihugu n'inyuma y'igihugu, kugurisha imodoka ndetse no kuranga amazu ndetse n'ibibanza, bagakora n'ibijyanye n'ubwubatsi, hasi hari imodoka y'umweru iri mu bwoko bwa Toyota.

Ni nzu y'umuturirwa aho iyi nzu ikodeshwa, ifite ibyumba bine, ubwihereru butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi. Iyo nzu ikaba ifite igipangu cy'umutuku, ikaba ari inzu igeretse kabiri, ifite amarangi y'umweru, ku ruhande ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Isoko cyangwa aho abacuruzi ndetse n'abaguzi bahurira bajya kugura imbuto harimo inyanya, povuro, tungurusumu, karoti, amashu, imiteja ndetse n'ibitunguru.

Abantu biganjemo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa bari kugendagenda mu maduka aho bacuruza imyambaro, inkweto ndetse n'ibindi bikoresho bifuza.

Isoko cyangwa inzu y'ubucuruzi higanjemo aho gucururiza imyenda hariho ibyapa bitandukanye harimo icyapa cyitwa coyisi fashoni isaro kedizi sitowa ndetse hasi hari ibipope byambaye amakanzu arimo aragurishwa.

Ni isoko rinini ricuruza ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye aho bigaragara ko ari umuntu w'umukiriya umwe bari kumwakira n'abandi bagabo babiri bari kumwakira bari kumuha ibyo ashaka, hakaba inyuma yabo hari bari mu nzu ifite tabure y'umutuku ifite agatambaro k'umweru hejuru inyuma yaho ari umugabo wambaye imyenda y'ubururu iteye amarangi y'umweru, abari kumwakira bambaye imipira y'ivu.

Iduka cyangwa isoko ry'imyenda higanjemo ibicuruzwa birimo imipira, amakanzu, ibitenge ndetse n'amashati; hakaba harimo abaguzi ndetse n'abacuruza.

Mu isoko rinini aho ricuruzwamo bikoresho bitandukanye, harimo utubati tw'umweru, harimo ibikoresho, harimo udukapu tw'abagore two mu ntoki, amakaro y'umweru na'amakamera acunga umutekano bakaba bahita muri gare bwite, aho harimo amarinete y'umukara utubati tw'umweru n'udukapu tw'abakobwa two ku rutugu.

Aho bacururiza cyangwa isoko ririmo umugabo uri kureba inyuma wambaye umupira w'ubururu w'umwirabura ndetse ririmo n'utubati turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ariko higanjemo amata y'ifu, inyange ndetse n'ibindi.

Isoko cyangwa iduka ryiganjemo abantu benshi, aho bacuruje imyenda, ndetse harimo abantu abagore, abakobwa ndetse n'abagabo n'abasore, aho hari umusore uri kuruhande wambaye umupira w'ubururu bwijimye, n'ipantaro y'umukara, ndetse n'umukobwa begeranye yambaye ishati isa iroza, ndetse n'ijipo y'umukara, ndetse harimo n'ibicuruzwa imbere yabo.

Ni uruhushya rwerekana ko wishyuye ubwisungane mu kwivuza bita mituweri aho isa ubururu bwerurutse amagamagambo akaba yanditse mu ibara ry'umukara hakaba handitseho rssb akaba ari ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima n'ubuvuzi mu gihugu.

Ikirango cy'ubwishingizi bwa RSSB cyangwa mu magambo arambuye Rwanda Social Security Board. Ikaba yifashishwa mu gutanga ubwishingizi ku baturage ndetse no ku modoka haba kwivuza cyangwa se ibikorwa by'imodoka.

Ni agapapuro gakoreshwa mu buvuzi aho agapapuro kitwa mitueli do sante, kakaba kariho igishushanyo cy'abantu batatu bose bari mu mutaka, ku ruhande hakaba kanditseho ikirangantego cy'umweru ariko cy'i ibara ry'umukara cyanitse rssb.

Rigezweho ryitwa Simba rikaba rikorera muri Gishushu, rikaba ari isoko ricuruzwa ibintu byinshi bitandukanye rikaba hanze hari aho abakiriya bicara bashaka kwicara bashaka gufata akantu, aho bakwiyakirira hakaba ari icyapa cya parikingi byerekana ko nta bantu bemerewe kuhaparika.

Icyapa kinini cyane kigaragaza ubwiza bwa Legasi hoteli kirangira abifuza serivisi zayo, imbere yacyo hari imikindo itatu umwe ukaba usa naho wihishe hagaragara amababi yawo, indi ibiri umwe urakuze undi uracyari muto.

Isoko ririmo ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amata ibikoresho by'isuku amata y'inyange n'ibindi byinshi akaba ari ku ruhande hari igikuta cy'amatafari y'umweru, akaba ari ku ruhande ibindi birahuri by'umukara.

Abantu bari mu isoko, aho iryo soko ririmo abantu benshi baje guhaha ibintu bitandukanye, isoko rikaba ririmo amavuta, ibyokurya ndetse n'impumuza, aho harimo abantu benshi bari gufotora umugore wambaye isengeri y'umweru ifite imifuka y'imituku, yambaye ikabutura akaba afite akantu asunika ahahiramo.

Mu isoko rishyashya rigezweho aho iryo soko ririmo ibiribwa bitandukanye, ku ruhande hakaba hariho utu etajerie turiho ibikarito by'amashokora n'amabiswi, mo imbere harimo umugore uri gutembera ufite akantu kabugenewe uri gushyiramo ibyo yahashye, hakaba harimo amatara menshi n'utubare hejuru twerekana aho ugeze.

Isoko cyangwa iduka ririmo utubati twinshi tugiye turimo ibicuruzwa ahanini byiganjemo ibyo kurya, aho abacuruzi baba bari kubicuruza hanyuma abaguzi bakaza kubigura.

isoko rinini iryo soko ririmo abantu batandukanye hakaba harimo umugore w'inzobe wambaye umwenda wumutuku akaba ari kwakirwa n'umukobwa w'imisatsi miremire wambaye umupira w'umuhondo ufite n'igikarito kinini mu ntoki. Imbere yabo hakaba hari agacupa k'amazi hirya yabo hari utu etajeri turimo ibicuruzwa.

Umugabo usa nkaho akuze aho umugabo ari mu isoko rinini ricururizwamo ibiribwa buyobye biribwa n'imyenda'byo biryo ikaba gutera umufuka w'umuceri wumuhondo kandimwe hejuru yari ingofero z'umukara n'umutuku inyuma hakaba hari abandi bantu bari kumukamira aka ari umugabo w'umwirabura.

Umugabo wambaye ishati irimo ibara ry'ubururu ndetse n'agapfukamunwa k'umweru ndetse n'amarinete waje kugura mu iduka umuceri, ari kugurira umugore wambaye ishati y'icyatsi, ndetse n'agapfukamunwa k'umukara. Ucuruje ibicuruzwa byinshi yiganjemo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa nk'amata.

Umuntu wambaye umupira wa oranje wicaye mu ntebe ya purasitike wegamye, inyuma ye hari utubati tubiri tubikwamo, kamwe gasa umweru akandi gasa kacyi harimo ibikoresho bitandukanye.